Ni abagabo n'abagore bafite amakayi n'amakara mu ntoki, bicaye ahantu mu cyumba ndetse biragaragara y'uko bari nko mu nama cyangwa se mu kindi gikorwa cyabateranyirije aho ngaho.

Ikimenyetso cy'umusaraba kiri mu ibara ritukura ndetse n'amagambo abiri ari yo Karitasi Rwanda, Karitasi iri mu ibara ry'umukara ndetse na Rwanda iri mu ibara ry'umutuku.

umuyobozi w'ikinyabiziga cya moto uri mu muhanda utwaye umuntu ndetse n'inkoko mu kintu kimeze nk'igitebo ndetse n'amazu ari iruhande rwabo